Abantu batandukanye harimo abagabo, abadamu ndetse n'abana, bafite icyo kunywa harimo amazi ndetse na ji, bicaye hamwe bari kureba mu cyerekezo kimwe, bameze nk'abari kumva ikiganiro bari guhabwa n'umuntu cyangwa bakaba bari mu nama bari kumva ibitekerezo.

Abantu bicaye ahantu hamwe. Harimo abagabo n'abagore kandi nyuma yabo hari umuntu uhagaze uri kubafotora, barimo kureba mu cyerekezo kimwe, aho bateze amatwi umuntu uri kubaho ikiganiro. Bari ahantu mu nzu itari nini cyane, akenshi iyo abantu bari hamwe bari gutega amatwi, aba ari nk'inama cyangwa izindi gahunda zabahuje nk'ibirori cyangwa ibiganiro.

Abantu bari ahantu hamwe, bicaye kandi imbere yabo hari amazi. Harimo abagabo n'abagore. Aho bari kureba mu cyerekezo kimwe nk'abateze amatwi umuntu urimo kubaha ikiganiro kandi bamwe bafite ikayi bari kwandikamo ibyo bari kuganirizwa.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo abambaye amakote, abagabo n'abagore, ikindi kandi bameze nk'abantu barimo kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, imbere yabo kandi hari ibyo kunywa nk'amazi, imbere yaho hari icyapa cya banki yitwa Equity.

Abantu benshi bahuriye hamwe harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bicaye ahantu kandi ni ahantu hanini, abandi bari inyuma ntabwo bicaye barahagaze bisa nk'aho imyanya yabaye mikeya, bari kureba mu kerekezo kimwe nk'abari kumva ikiganiro, hashobora kuba habaye inama cyangwa indi gahunda ihuza abantu.

bantu batandukanye, harimo abagabo n'abagore. Bicaye mu ntebe nziza kandi bicaye ahantu hamwe mu nzu nziza. Bose bari kureba ahantu hamwe mu cyerekezo kimwe. Bameze nk'abateze amatwi cyangwa bakaba bari kumva ikiganiro barimo guhabwa. Byafatwa nk'inama cyangwa ibindi biganiro bihuza abantu.

Abantu bicaye hamwe bari mu nzego zitandukanye harimo abashinzwe umutekano, harimo nk'abasirikare n'abacungagereza, harimo n'abayobozi, imbere yaboho hari amazi yo kunywa ndetse n'abandi barimo kwandika, hari n'abandi benshi bicaye barimo kureba mu kerekezo kimwe aho bari kumva ikiganiro, bari mu nzu nini kandi yisanzuye.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bantu basanzwe, bicaye hamwe barikureba mu cyerekezo kimwe, bameze nk'abantu bari mu kiganiro cyangwa mu nama, aho bateze amatwi umuntu urimo kubaganiriza.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo, bahagaze imbere y'inyubako bameze nk'abantu bavuye mu kiganiro cyangwa ikindi gikorwa cyabahuje, barimo kwifotoza nk'ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bayibukiraho igihe bahuriye, baba bahujwe n'ikiganiro nk'inama cyangwa ibindi birori bigiye bitandukanye bihuza abantu.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo: abagabo, abagore ndetse n'abana. Bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro. Aho bicaye barimo kumva amabwiriza cyangwa ubutumwa bagenewe bujyanye na Gerayo Amahoro. Aho bashishikariza abantu kugera amahoro mu rugo, abatwaye ikinyabiziga bakagitwara gake kandi bakirinda gutwara banasinze.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore, bari mu gikorwa cyo kugorora umubiri, aho bambaye imyenda yoroshye ibafasha kugorora umubiri, ni abantu benshi bahuriye hamwe kugira ngo babashe gukora icyo gikorwa.

Abantu bo mu nzego zitandukanye bicaye hamwe, barimo gukora ikiganiro cyangwa bakaba bari mu nama. Imbere yaho hateretse amazi ndetse na ji. Abo bantu bari mu ngeri zitandukanye ndetse no mu nzego zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare ndetse n'abapolisi n'abaturage basanzwe.

Abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye, harimo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano nk'abapolisi. Abandi ni abantu basanzwe. Bamwe baricaye abandi barahagaze abahagaze bameze nk'abantu bari kuririmba nk'ikirori cyabereye ahantu haje abayobozi ndetse n'abandi bantu basanzwe.

Abantu batandukanye kandi bicaye neza, harimo abagabo n'abagore, bicaye bamwe bafite amazi yo kunywa, bari kureba mu cyerekezo kimwe nk'aban bari kumva ikiganiro barimo guhabwa, inyuma kandi hari umuntu uhagaze.

Abantu batandukanye, harimo abantu bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, harimo umwe wahagurutse ufite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro, yambaye impuzankano y'umwenda w'ikigo cya MTN gitanga ibicuruzwa birimo itumanaho, arimo kuganira abandi baricaye.

Umugabo wambaye neza kandi wambaye ikote ari imbere y'abantu akantu ahagazeho kandi afasheho akanditseho amagambo Nyagatare ku cyapa kandi kimuri inyuma handitseho imveziti ini Rwanda bishatse kuvuga ko bari mu gikorwa cyo gushishikariza abantu mu gushora imari mu Rwanda.

Inkangara ni igikoresho kiba cyaraboshywe n'abanyarwanda kandi cyakorewe mu Rwanda, ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda akenshi inkangara bayikoresha bagiye nko gutura abantu aho bashyiramo umusaruro w'ibihingwa cyangwa bagashyiramo ibindi bintu bigiye bitandukanye bagiye gutura umuntu.

Abantu barimo kubyina imbyino igaragaza umuco nyarwanda bambaye impuzankano harimo imikenyero, urunigi ku bahungu ndetse n'abakobwa bambaye imikenyero, urunigi ndetse n'urugori, barimo kubyina imbyino z'umuco nyarwanda.

Abakobwa n'abahungu bari kubyina imbyino igaragaza umuco Nyarwanda kandi banambaye n'imyenda nayo igaragaza umuco Nyarwanda harimo imikenyero, urunigi ndetse n'urugori.

Abantu bamwe baricaye abandi bari kubyina bateze amaboko, bambaye imyenda nk'imwe igaragaza umuco nyarwanda kandi bari kubyina imbyino y'umuco nyarwanda, bambaye urugori, imikenyero ndetse n'urunigi.

Agacuma, agacuma ni kamwe mu gikoresho kigaragaza umuco nyarwanda, akenshi gakunda kunywerwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo nk'urwagwa cyangwa ikigage, aka ngaka akenshi gakunda kuva mu gihingwa aho bagahinga kamara kwera neza bakakanika kakuma kakavamo kameze gutya.

Agaseke, agaseke ni kimwe mu bikoresho biranga umuco Nyarwanda kuva kera mu gihe cy'abami, aka gaseke kabohwa n'abanyarwanda kandi kagakunda gukoreshwa mu gihe habaye ubukwe ugiye gutwerera nk'umuntu, umusaruro cyangwa ibindi bintu by'ibiribwa bashyira mu gaseke bagahereza umugeni.

Abantu benshi bari kugenda mu cyerekezo kimwe bafite ibikoresho harimo amasuka ndetse n'ibindi bitandukanye bagiye mu gikorwa akenshi gikunda kuba rimwe ngarukakwezi cyitwa umuganda, harimo abadamu n'abagabo, ukunda gukorwa mu mpera z'ukwezi.

Ibikoresho byitwa ingoma, ingoma ni kimwe mu bikoresho biranga umuco nyarwanda aho bakunda kuzivuza barimo kubyina imbyino nyarwanda cyangwa ahandi hantu hose habereye ikirori, ingoma zikunda gukorwa mu ruhu rw'amatungo cyangwa rw'inyamaswa.

Umukobwa urimo kubyina arimo kubyina mu mbyino y'umuco Nyarwanda aho yambaye n'imyambaro igaragaza umuco Nyarwanda, harimo imikenyero, urunigi, ndetse n'urugori.

Abasore barimo kubyina mu mbyino y'umuco Nyarwanda ni ahantu habereye ibirori barimo kubyinira, bambaye bimwe mu biranga umuco Nyarwanda harimo amayogi, imikenyero ndetse n'urunigi.

Igikoresho cyitwa umuvure. Hejuru yawo harimo akitwa akayunguruzo cyangwa ako bifashisha bari gukamura. Umuvure cyane cyane ukunda gukoreshwa iyo abantu benze bengeramo ibitoke ndetse aka kantu kari hejuru kakifashishwa mu gukamura igikatsi kugira ngo kivemo umutobe.

Agacuma, agacuma ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda, aho abantu banyweramo ibintu bitandukanye cyane cyane urwagwa. Ni igihingwa gihingwa kikavamo urubuto rw'agacuma, aho bakanika noneho kamara kuma bakajya banyweramo.

Abakobwa bari kubyina imbyino y'umuco nyarwanda ndetse n'abahungu, bambaye imyenda igi itandukanye igaragaza umuco nyarwanda harimo imikenyero, urunigi ndetse n'ikamba cyangwa urugori.

Abakobwa babiri barimo kubyina imbyino igaragaza umuco nyarwanda cyangwa imbyino nyarwanda, bambaye n'imyenda imeze kimwe wafata nk'impuzankano, harimo abakenyeye, abambaye urunigi ndetse bambaye n'urugori.

Umukobwa urimo guseka, ameze nk'urimo kubyina, yambaye imyambaro igaragaza umuco Nyarwanda, harimo urugori, urunigi n'imikenyero, arimo kubyina ndetse muburyo bugaragaza umuco Nyarwanda.

Umugabo uri kugaragaza umuco w'abanyarwanda wa kera, ari kugaragaza inyogosho abantu ba kera biyogosheshaga, ni bimwe mu biranga umuco nyarwanda, aho baterekaga umusatsi noneho bakagenda bawutandukanya.

Ibikoresho biranga umuco Nyarwanda icya mbere bitetse ku kirago, kandi ibikoresho bikunze gukoreshwa abantu barimo kunywa amata, hari n'igisabo kijishe aho ibisabo byifashishwa mu gucunda amata kugira ngo havemo amavuta y'inka.

Abahungu babiri bambaye neza, bambaye imyenda iri mu muco nyarwanda harimo imikenyero y'umweru ku musozo wayo hariho amabara y'umukara, ni kimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda mu ujyanye n'imyambarire, akenshi abasore bakunda kuyambara bagiye kubyina imbyino nyarwanda cyangwa bagiye mu bukwe.

Uduseke turi mu mabara atandukanye turi mu mabara y'umuhondo n'umukara akenshi utu duseke tugaragaza umuco nyarwanda cyangwa umuco uranga abanyarwanda dukunda gukorwa n'abanyarwanda aho badukora barimo kuboha turarabowa muri make, ikindi kandi iyo umuntu yabaga agiye gutwerera umuntu cyangwa kumutura yajyanaga umusaruro we mu gaseke.

Amapironi ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara amashanyarazi biyavana mu gace kamwe biyajyana ahandi. Akenshi bifasha kugira ngo abaturage babashe kugerwaho n'amashanyarazi mu buryo buhagije ndetse n'ibindi bikorwa remezo cyangwa ubucuruzi byifashisha amashanyarazi biyabona. Ikirere kimeze nabi imvura irashaka kugwa.

Umukobwa uri ku ipoto y'amashanyarazi, umukobwa wambaye n'impuzankano uri mu kirere, aho ari kwita ku mashanyarazi yagize ikibazo kugira ngo abashe kongera gukora neza, aho aba ari imiyoboro ijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage kugira ngo abashe kuwukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi bikenera amashanyarazi.

Umunara, umunara ufasha abantu cyangwa ibigo bishinzwe itumanaho kugira ngo babashe kuboneka amaherezo mu duce tujye dutandukanye. Umunara ukunda gushyirwa ahantu kugira ngo abahaturiye babone amarezo cyangwa babashe kumva amaradiyo, guhamagarana no gukoresha murandasi bafite amarezo ahagije.

Umuntu ari ku rwego yashyize ku giti kiriho insinga zitwara amashanyarazi mu bice bitandukanye, akenshi uyu muntu aba agiye gukora umuriro cyangwa amashanyarazi, akaba yangiritse akaba agiye kubishyira ku murongo kugira ngo abantu babashe kubona umuriro w'amashanyarazi.

Umuyoboro w'amashanyarazi ukunze kwitwa amapoto, aho amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi kugira ngo umuriro uve mu gace kamwe ujya mu kandi, aya mapoto kandi ni yo binyuzwamo kugira ngo insinga zigende zikoraho zikomeza zigenda kugira ngo zitarereta noneho umuriro ukagera ahandi hantu hagiye hatandukanye.

umukobwa wambaye impuzankano z'akazi harimo igisobeti ndetse n'ingofero kimwe ni ingofero zifashishwa mu kurinda impanuka ndetse no kuba wakomereka. Umukobwa arimo kwita cyangwa gukora amashanyarazi aho yangiritse kugira ngo umuriro ubashe kuboneka.

Abantu babiri bari mu kirere, bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi, ni ipoto cyangwa ahantu hari amashanyarazi, aho abashinzwe kuyajyana mu bice bitandukanye kugira ngo abantu babashe kugerwaho n'amashanyarazi; aba ngabo rero bashinzwe kuyakora aho yagize ikibazo kugira ngo abashe kugera ku bantu neza.

Amapironi atanga umuriro, aya akunze kuba ari maremare, aho akunda gucaho insinga zigenda urugendo rurerure, zijya mu baturage kugira ngo babashe kubona umuriro. Umuriro uri ahantu hari urutoki ndetse n'inzu nkeya.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi ndetse n'ingofero. Ari hejuru mu kirere ahantu hahurira amashanyarazi nko ku ipoto. Arimo gukora amashanyarazi, kugirango ngo abashe kugera mu baturage, amashanyarazi aha ngaha ashobora kuba aba yangiritse, noneho bakazana umuntu uyitaho kugira ngo abashe gusubira ku murongo.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi aho umuriro w'amashanyarazi uturuka noneho ukajya mu baturage ni ahantu barimo kubaka hatari huzura neza ariko hazaba hari ikusanyirizo ry'amashanyarazi ibikoresho byinshi birahari aba ari byo bijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage kugirango babashe kubona umuriro wo gucana cyangwa kuwukoresha mu bindi bigiye bitandukanye.

Amapoto ajyana umuriro mu baturage aho ayo mapoto aba ari maremare noneho bagafata insinga zikagenda zijya mu baturage, ni ipoto rinini ritanga umuriro mu baturage, hari amazu agiye atandukanye kandi harimo n'ibihingwa by'igitoki cyangwa urutoki runini.

Igiti kirekire kiriho insinga eshatu n'insinga, ni insinga ziri kujyana umuriro ahantu hatatu hatandukanye, ari kimwe mu byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage uturutse ku ikusanyirizo ry'umuriro ukagenda ushinga ibiti kugira ngo n'abaturage bagende bawukoresha, hari insingaro rero ziri kuri iki giti ziri kugenda zijya mu baturage kugira ngo babone umuriro.

Inyubako cyangwa inzu akenshi iba yarubatswe n'ubuyobozi bw'igihugu, ni inyubako iriho icyapa cyanditseho gira ubuzima akenshi ubu usanga ari ikigo nderabuzima, ikigo nderabuzima kiri mu marangi y'ubururu, imbere aho winjirira hari igikoresho cyifashishwa mu gukaraba, hakunda kuza abarwayi kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Ahantu barimo kubaka ikiraro cyangwa cyarangiye. Ikiraro kinyura hejuru y'umugezi urimo gutemba. Aho gihuza agace kamwe n'akandi. Bikoroshya imihahirane kandi no kuhagera bikaba byoroshye. Hariho n'amagambo yanditseho avuga ngo kubaka ibikorwa remezo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kandi kikaba kinifashishwa mu marushanwa yo kwirukanka, ahantu hari amarangi y'umutuku n'umweru ni aho abantu bakora irushanwa ryo kwirukanka banyura, noneho hari amabara y'icyatsi ni aho abakina umupira w'amaguru bakinira, hakurya hari aho abafana bicara kugira ngo barebe umupira n'izo siporo zose biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Abantu benshi bari ahantu barimo gukora imirimo ngororamubiri bari mu kibuga kitwa stade imyanya abafana bicaramo iri mu marangi y'ibendera ry'igihugu, aho hamwe hari icyatsi n'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inzu iri mu irangi ry'ubururu yanditseho icyapa kivuga ngo Girubuzima, imbere y'inzu hari kandagira ukarabe aho umuntu uhaje abanza agakaraba, ni ivuriro ndetse hari umuntu uri mu idirishya yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu arimo kwaka serivisi umuganga, abandi bicaye hanze barategereje.

Igipangu kinini kirimo n'inyubako zitandukanye, harimo n'inyubako iri mu irangi ry'ubururu ndetse n'izindi zubatse mu matafari ahiye n'indi imwe ifite amarangi y'umweru, ku gipangu handitseho amagambo avuga ati Inyange miriki bivuze ko ari uruganda rutunganya amata kugira ngo abashe kumara igihe kirekire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo amakamyo manini ya rukururana ndetse na moto n'amagare. Aho imodoka zabaye nyinshi muri kaburimbo zikaba zahagaze cyangwa ziri kugenda gake. Moto ihetse umuntu ndetse n'igare rihetse ibintu. Hari n'abanyamaguru ku mu ku ruhande barimo kugenda.

Ikigo nderabuzima kiri mu marangi y'ubururu, aho hari abantu benshi batandukanye baje nko mu gikorwa cy'ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuvuzi cyangwa abandi bakaba baje kwivuza, ariko hari abantu benshi cyane, aho hari n'ibyapa byateguwe nkanjye kubera igikorwa cy'ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Mu muhanda ndetse n'abantu barimo kubaka ikiraro, ni ikiraro kiri kubakwa akenshi gigomba kubakwa n'ubuyobozi bw'igihugu, abakozi barimo kucyubaka kugira ngo gihuze umuhanda umwe n'wundi.

Inzu y'Ikigo nderabuzima cya Karangazi, ikigo nderabuzima ni ahantu abarwayi bajya baturiye muri ako gace bitwaje mituweli bakajya kwivuza, hababa hari abaganga biteguye kubakira, bakabasuzuma kandi bakabaha imiti ijyanye n'indwara zabo.

Urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rw' i Nyagatare. Ni urwibutso rwubatse neza, ruri mu marange y'umweru rusakaje amabati y'umukara, ni urwibutso rurimo imibiri y'abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi, igihumbi kimwe magana kenda na mirongo ikenda na kane.

Umuhanda w'ikiraro, ikiraro cyubakwa akenshi cyubakwa na Leta, umuhanda uri guhuza agace kamwe n'akandi, harimo imodoka zirimo kuwugendamo, hejuru y'ikiraro hari n'iyindi irimo kugendamo, ikindi kandi umuhanda nk'uyu nguyu wubakwa ahantu hatengutse cyangwa hanyuramo umugezi munsi.

Ikigo nderabuzima, ni inzu y'ikigo nderabuzima iteye amarangi y'ubururu kandi hakaba hariho n'icyapa kibigaragaza, impande y'aho gato hari akajerekani ka kandagira ukarabe aho abantu bakarabaku kugira ngo birinde mikorobe, hariho n'indabo nyinshi cyane kandi ruguru hari iyindi nzu na yo iri mu marange y'ubururu, aho abarwayi bajya bakajya kwivuriza hari n'abaganga babakira bakabitaho.

Ikiraro, nicyaro cyubatswe kubera ko munsi yacyo harimo amazi, n'inzira iba yarakozwe kugira ngo ihuze agace kamwe n'akandi. Akenshi iikiraro gikunda kubakwa na leta, aho ifata umuhanda wa kaburimbo cyangwa se umuhanda usanzwe, bakubakamo ikiraro kugira ngo gihuze agace kamwe n'akandi.

Ikigo nderabuzima ni inzu biri mu marangi y'ubururu kandi yanditseho amagambo ngo gira ubuzima, haparitsemo moto kandi ku ruhande rw'aho gato hari aho abantu bakarabira bagiye kwaka bimwe muri serivisi batanga.

Inzu y'ikusanyirizo ry'amata, ni inzu ya koperative yitwa Katabagemu, aho abantu bakunda gukusaniriza amata noneho akagurishirizwa rimwe, bikunze kuboneka hano mu Karere ka Nyagatare aho abantu boroye inka bakaywa amata bagasagurira n'isoko, bayazana hano no kuyikusanyirizaho kugira ngo agire ibindi akorwamo.

Inzu yubatse ahantu heza. Yubatse mu matafari ahiye kandi ikaba isakaje amabati y'ubururu. Imeze nk'ikigo nderabuzima aho leta yubaka ikigo nderabuzima kugira ngo abarwayi bajye bajyayo, kwakirayo ubufasha bujyanye n'ubuvuzi bw'ibanze.

Ikibumbano k'inka, iki kibumbano kiri mu bwoko bw'inka y'inyambo kandi hasi y'aho hari icyapa cyanditseho Nyagatare, bivuze ko iyo umuntu ari kugenda yerekeza mu Karere ka Nyagatare akagera ahantu hari ikibumbano k'inka y'inyambo ndetse n'amagambo yanditseho Nyagatare, Akarere ka Nyagatare biba bivuze ko wageze mu Karere ka Nyagatare, ahantu hakunda kuboneka inka nyinshi.

Ikiraro cyo mu kirere, ni ikiro gikunda kunyurwamo abantu gusa kuko nta kinyabiziga cyahanyura. Akenshi iki kiraro cyubakwa n'ubuyobozi bwo muri ako gace aho abaturage banyura mu kirere kugira ngo bambukiranye inzira mu buryo bwihuse. Ni ikiraro cyubatswe, kiba cyubatswe mu migozi ndetse n'ibindi bintu abantu bakandagiraho bagenda.

Abantu benshi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Ariko harimo abakenyeye n'abandi bambaye imyambaro itandukanye. Mu by'ukuri nta ari mu gikorwa cyo gukina cyangwa kureba umupira w'amaguru, ahubwo hari ikindi kintu cyabahuje nk'inama cyangwa nk'ikindi kirori.

Abantu benshi batandukanye harimo abicaye n'abahagaze. Umugabo w'umusaza afite mikoro arimo kubwira abantu. Arimo kubaganiriza. Ashobora kuba afite ikibazo kugira ngo bagikemure cyangwa se arimo gutanga igitekerezo kuko abantu bicyaye mu buryo nkaho bari mu nama.

Abantu bahagaze ndetse n'umudamu umwe wakenyeye urimo kuvuga imbwirwaruhame, afite indangururamajwi kandi bambaye utuntu twitwa furali tugaragaza ko bari mu gikorwa cyo kwibuka. Akenshi izi furale zikunda gukoreshwa mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane. Iki cyunamo gikunze kuba kuva ku itariki zirindwi kugeza kuri cumi n'enye z'ukwa kane.

Abantu benshi batandukanye harimo n'abashinzwe umutekano, abantu bakuru ndetse n'abana, bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho barimo gucana urumuri rw'ikizere, bafatishije buji abenshi bafite buji zirimo kwaka.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bahagaze hamwe, bamezeze nk'abantu baje gukemura ikibazo cy'umuturage cyangwa bari kwitegereza ahantu, ni abagabo batanu harimo n'umwe ushinzwe umutekano uri muri Polisi cyangwa wambaye impuzankano za Polisi, abandi na bo bahagaze bameze nk'abayobozi, harimo umugabo ufashe inkoni kandi bari ahantu hahinze insina hameze nko mu rutoki.

Abantu batandukanye harimo abadamu n'abagabo bicaye hamwe, bambaye udufurari tugaragaza ko barimo kwibuka cyangwa mu gikorwa cyo kwibuka. Imbere kandi hicaye umuntu ukora mu kigo gishinzwe iperereza RIB. Harimo abantu benshi bicaye bakurikiye igikorwa kiri kubera hano hantu.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe kandi hanini bambaye fulari zo kwibuka. Ni igikorwa gikorwa akenshi yo abanyarwanda bari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo ikenda na kane. Igikorwa cyo kwibuka gikunda kuba mu kwa kane kugeza mu kwa karindwi.

Abantu bane. Harimo ushinzwe umutekano, abandi bari mu mwanya, nk'uwubuyobozi. Imbere yabo hari amazi, ibitabo, ndetse na telefoni. Bari imbere y'abantu. Bari imbere y'abantu barimo gutanga ikiganiro.

Abantu batandukanye harimo abashinzwe umutekano, abayobozi ndetse n'abapadiri, bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, aho bahaye umuntu inka, akenshi bakunda kubikora kugira ngo bafashe umuntu wacitse ku icumu, kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Abantu bateraniye hamwe, imbere y'aho hari umusirikare ufite indangururamajwi arimo kuganiriza abantu bitabiriye, bari mu gikorwa k'inteko rusange y'urubyiruko mu Karere ka Nyagatare, aho barimo kuganira n'abaturage cyangwa bakaba bari kuganira n'urubyiruko.

Abantu benshi bo mu gihe zitandukanye bicaye hamwe. Imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe iperereza RIB. Arimo kubaha ikiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye.

Umuntu urimo gutanga ikiganiro, ari imbere y'abantu bari mu gihe cyo kwibuka, mu Karere ka Nyagatare barimo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu. Umugabo kandi arimo gutanga ikiganiro kijyanye n'ibijyanye no kwibuka, ndetse n'amateka y'igihugu cyanyuzemo.

Abantu bicaye abandi bahagaze, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse ufite n'indangururamajwi aho barimo kuganiriza abaturage, igikorwa cyaba kimeze nk'inama akaba ari gutanga igitekerezo cyangwa ayoboye inama cyangwa se akaba ari gutanga ikibazo.

Imodoka iri mu bwoko bwa rava, iri mumuhanda, ni imodoka ifite ibara ry'icyatsi kijimye iri muri kaburimbo yonyine nta zindi modoka zirimo, kandi ni kaburimbo nini. Imbere yaho gato hari umuntu wamaye ufite igare arimo kumanuka, imodoka yo irimo kuzamuka.

Icyapa kiri ku muhanda gishushanyijeho igare, bishatse kuvuga ko aho hantu hemerewe kunyura amagare cyangwa haca amagare. Ni icyapa inyuma yaho gato kegeranye n'ipoto cyangwa ikintu kirekire kiba kiriho itara rimurika muri kaburimbo.

Icyapa kikunze kuba kiri muri kaburimbo. Icyapa kigaragaza aho abantu bagenda n'amaguru cyangwa abanyamaguru bagomba kwambukira kukari burimbo bava mu ruhande rumwe rwa kaburimbo bajya mu rundi bitewe n'aho bagiye, aho iyo bageze bemerewe kwambuka umuhanda barimo imirongo y'umweru, aho ikinyabiziga iyo cyihageze kiba keretse umunyamaguru akabanza akambuka.

Ibatiri y'umweru ririho igishushanyo mbonera cy'inzu igiye kubakwa, ni inzu iba igiye kubakwa noneho bakazana igishushanyo mbonera cy'ukuntu izaba igaragara, hariho na nimero ze ebyiri, aho buri umuntu azikoresha akeneye ubundi busobanuro butandukanye.

Icyapa kifashishwa mu kuyobora umuntu cyangwa kiranga umuhanda runaka. Ni icyapa kiba kiri ku muhanda, aho umuntu utahazi umubwira amagambo ari kuri iki cyapa kikamuyobora akahagera.

Umugabo ari mu muhanda wenyine, ahetse ibintu birimo nk'ikarito, risa ikigina, ikarito isa ubururu n'akandi kantu k'umweru, ari muri kaburimbo wenyine, ari ku igare ameze nk'umuntu uvuye kurangura.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine. Ni moto mu bwoko bwa Tevis atwaye moto kandi ahetse ri muntu inyuma umwe yambaye kasike y'umutuku undi yambaye iy'icyatsi. Muri kaburimbo nta kindi kinyabiziga kirimo, atwaye ikinyabiziga wenyine ntabindi binyabiziga birimo.

Umugabo uri muri kaburimbo atwaye igare ndetse inyuma hariho n'intebe y'abagenzi asa nk'umuntu utwara abagenzi ari bo bitwa abanyonzi, arenze gato aho abanyamaguru bambukira aho harimo imirongo y'umweru iri muri kaburimbo igaragaza abagenzi b'amaguru aho bagomba kwambukira kaburimbo, iruhande gato kandi hari umuntu ushinzwe ibyo mu muhanda.

Imodoka iri muri kaburimbo yonyine, nta zindi modoka zirimo imodokadoka imwe yonyine. Ni imodoka iriho icyapa cyangwa ibirango by'ikinyamakuru cya radio rwanda cyitwa RBA, imodoka iri mu bwoko, ifite aho batwara imizigo n'ahajya abantu.

Imodoka yari muri kaburimbo nta bindi binyabiziga birimo kandi inyuma muri iyo modoka ihetsemo umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ni modoka nini washyira mu bwoko bw'ifuso, isa umweru hasi igasa umukara, hari ijambo ryanditse aho umuntu utwara ikinyabiziga ari ryanditse mu marange y'ubururu, imodoka iri muri karimbo yonyine nta bindi binyabiziga birimo.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka. Kuru ruhande rw'abagenzi, harimo abagenzi barimo kugenda, umumotari uri imbere yacanye itara, ikirere kimeze neza hameze nk'ahantu hagorobye bugiye kwira, niyo mpamvu umu momotari yacanye itara.

Abantu bo mu nzego zitandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano. Harimo abasirikare, abaporisi ndetse n'abandi bantu bameze nk'abayobozi, bicaye hamwe kandi bicaye mu matsinda aho barimo kuganira.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo: abapolisi, abasirikare, daso, abayobozi ndetse n'abandi bantu basanzwe bari mu gikorwa rusange cyo kubaka, aho uwo musirikare afashe icyondo noneho undi mugabo wambaye ingofero akaba afashe itafari kugira ngo arishyire ku nzu.

Abantu benshi bahuriye ku gikorwa kimwe, wabyita nko gukora umuganda cyangwa gutanga umusanzu cyangwa bakaba bari gufasha umuntu ,akenshi ariko bikunze kuba ari mu muganda. Harimo abantu bo mu nzego zitandukanye z'umutekano harimo dasso ndetse n'abapolisi ikindi kandi harimo abikoreye amabuye harimo abadamu n'abagabo ndetse abandi bakaba bafite amasuka bari gutunganya ahantu hari ibyatsi.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, harimo abaturage basanzwe hakaba harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare, bahuriye mu gikorwa kimwe igikorwa kiri gukorwa gutya, gikunda gukorwa mu mpera z'ukwezi, kikaba kitwa umuganda. Aho bakora nk'umuhanda cyangwa bagatunganya ibindi, bafite amasuka bameze nk'abari gukora mu muhanda.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo: abakoranabushake, abashinzwe umutekano nk'abapolisi, abasirikare ndetse na daso. Bari mu gikorwa rusange cya kitwa muganda; bamwe bafite amasuka, abandi bari inyuma bafite imihoro barimo gutunganya ahantu. Iki gikorwa cyakitwa nk'umuganda.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye barimo gukora igikorwa cy'amaboko mu bikorwa rusange wakita umuganda, iki gikorwa kandi kirimo n'abashinzwe umutekano harimo abasirikare n'abaturage basanzwe barimo gufatanya bari gukora igikorwa rusange gukora umuhanda cyangwa ibindi bikorwa bikorerwa hamwe umuganda.

Abantu bari mu gikorwa rusange, abenshi harimo abashinzwe umutekano, harimo abasirikare n'abapolisi ndetse n'abandi bantu basanzwe, bamwe bafite ibyo twakwita kupakupa bikupa ibyatsi, bari mu gikorwa rusange twakwitwa nk'umuganda.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, harimo abicaye n'abahagaze, harimo kandi umugabo umwe uhagaze ufite igikoresho kirangurura amajwi, arimo gutanga ikiganiro cyangwa se akaba ari utanga ikibazo, ni ahantu hasa nk'ahabereye inama.

Abantu benshi kandi batandukanye, harimo abagabo n'abagore abashinzwe umutekano n'abayobozi. Mu bashinzwe umutekano harimo abasirikare n'abapolisi, bicaye hamwe bari mu nyubako wakwita nk'aho barebera umupira cyangwa muri sitade. Bicaye hamwe barimo kureba umupira.

Abantu benshi bahuriye hamwe harimo abadamu n'abagabo. Bambaye imyenda yoroshye nk'imwe muyifashishwa mu bikorwa bikurura umubiri, harimo nko kwiruka ndetse n'ibindi. Bari mu kibuga cy'umupira ni abantu benshi harimo n'abana. Bahuriye hamwe kugira ngo baterane morare bakore ibikorwa ngororamubiri byakitwa nka siporo.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru, bari mukibuga kiza cy'ubwatsi, harimo abambaye imyenda y'ubururu bwerurutse, nimero zandikishije amabara y'umweru, indi kipe yambaye amasogisi y'umuhondo imipira y'umuhondo n'amakabutura y'umuhondo birimo n'amabara y'umukara, umuzamu w'ikipe imwe yambaye imyenda y'icyatsi, nta bafana bahari barimo gukina nta bafana bahari.

Abana bakiri bato barimo gukina umupira w'amaguru, umwe yambaye ibirenge undi yambaye inkweto zifunze undi yambaye bodaboda inkweto zifunguye bari gukinira mu kibuga k'igitaka.

Abantu benshi baricaye, abari imbere cyane bambaye imyenda isa nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru, abandi bari inyuma y'aho gato bambaye imyenda isa nk'abarimo abakinnyi nanone ndetse n'abafana, imbere yabo hari umugabo urimo kubaha ikiganiro, bameze nk'abasoje gukina cyangwa bagiye gukina.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru, bari mu kibuga gisanzwe cyitwa stade, aho ikipe imwe yambaye imyenda y'bururu nimero zandikishije amabara y'umweru, indi yambaye imyenda y'umuhondo nimero zandikishijwe amabara y'umukara, hakurya mu kibuga hahagazemo umuntu umwe gusa nta bandi bantu bari mukibuga, bari mukibuga cyiza cy'utwatsi.

Ni nijoro amatara ari kumurika muri kaburimbo, nta kinyabiziga kirimo ahubwo harimo abantu barimo kwirukanka, bambaye imyenda ibafasha kugorora umubiri ni abantu benshi barimo kwirukanka kandi ni igikorwa bari gukorera hamwe muri kaburimbo nta binyabiziga birimo.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu gikorwa ngorora mubiri harimo abakobwa n'abagabo aho bambaye imyenda iborohera kugira ngo bakore imirimo ngorora mubiri, barimo gukora umurimo ngororamubiri wo kumanuka bakagera hasi amaboko ari hasi, bakongera bakazamuka.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, barimo bari mu kibuga. Bameze nk'abagiye gutangira umupira. Bari muri sitade cyangwa aho berekanira umupira hari n'abafana. Bambaye impuzankano z'amakabutura y'umukara n'ubururu ndetse n'imipira y'umukara n'uburu.

Abantu babiri, harimo umudamu n'umugabo, bameze nk'abayobozi. Barimo kwirukanka bakora akarimo ngororamubiri cyangwa bari kwiruka kugira ngo bagorore umubiri, ni hantu hameze nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Inyuma yaho hari umuhungu wambaye impuzankano z'ubururu, asa nkaho agiye gukina umupira.

Ahantu hari abantu benshi, ni nijoro amatara ni yo ari kubamurirekera, inyuma yabo kandi hari ikibuga cy'umupira kirimo n'ubwatsi bwiza, ni abantu benshi barimo gukora umurimo ngororamubiri kandi bambaye n'imyenda yabugenewe kugira ngo bakore mubiri, imbere y'aho hari umuntu uri kuberekera ibyo bagomba gukora wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu barimo gukina umukino w'amaguru, harimo abambaye impuzankano y'amakabutura y'umukara n'imipira y'umukara irimo imiongo y'umweru, abandi bakaba bambaye imyenda harimo umupira w'umweru n'ubururu n'ikabutura y'umukara n'andi mabara y'umutuku, bari mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru kandi ni abakobwa.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi indi yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse, barimo gukinira mu kibuga k'igitaka nta byatsi birimo cyangwa tapi, umuzamu w'ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo, hakurya y'aho hari amazu menshi ni ahantu hameze nko mu mujyi.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, bambaye impuzankano z'amakabutura y'umukara n'imipira ijya gusa umuhondo, bari mu kibuga cya stade, aho bari kwishyushya kugira ngo batangire gukina.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uko amakipe yatsindanye mu irushanwa ry'igikombe cy'umupira bibili na makumyabiri na kane bibirina makumyabiri na gatanu. Abagabo kimwe cya munani, aho amakipe yagiye yatsindana. Amakipe yo muri nyagatare ubwo ni imirenge yo muri nyagatare yagiye ihura igakina.

Imidari n'igikombe. Imidari iri mu mabara y'umutuku n'u umweru n'ubururu ndetse n'ibikombe bibiri biri imbere y'abayobozi. Bishatse kuvuga ko hari amakipe arimo gukina umukino w'amaguru cyangwa iyindi mikino ariko byose bijyanye na ngororamubiri arimo gukina kugira ngo iyi tsinda ibashe kwegukana igikombe n'umudali.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru igice cyo hasi nicyo berekanye gusa, harimo abambaye impuzankano y'ubururu bweruye ndetse n'abandi bambaye impuzankano y'umuhondo.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru, harimo ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi, indi ikaba yambaye ubururu bweruye, bari gukinira mu kibuga kirimo ibyatsi byakuze, ahandi ntabyatsi birimo kandi hakurya y'ikibuga hari abandi bantu bari kureba umupira bari gukina.

Abantu barimo gukina umupira w'maguru bari mu kibuga cyiza cy'ubwatsi kandi kiringaniye abari gukina ni abakobwa, harimo ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara irimo umweru mukeya ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umutuku irimo imirongo imanuye y'umweru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru harimo umwana ufite igikombe ndetse n'abandi bantu babiri bamugaragiye bameze nk'abayobozi cyangwa abatoza batsindiye igikombe mu karere kacu ka Nyagatare mu murenge wa ka.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru nka kimwe mu byifashishwa mu kugorora umubiri ni abana b'abakobwa ikipe imwe yambaye impuzankano z'umukara n'umweru, iyindi yambaye impuzankano imipira y'umweru n'ubururu, ndetse n'amakabutura y'ubururu n'umutuku.

Abakinnyi bagiye gukina umupira w'amaguru bari mu kibuga kiza kandi cy'ubwatsi, ikipe imwe yambaye umukara n'ubururu bwerurutse iyindi yambaye umutuku werurutse, umuzamu w'ikipe y'umutuku werurutse yambaye imyenda y'umuhondo undi muzamu na we yambaye umupira w'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara kandi harimo abasifuzi batatu bambaye amajiri y'icyatsi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo kwirukanka bameze nk'abari kwishyushya kugira ngo batangire bakine, ni abakinnyi b'ikipe imwe bambaye imyenda y'ubururu n'imipira irimo amabara y'icyatsi.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru bari mu kibuga kirimo ibyatsi ikindi gice kimwe nta byatsi birimo, ibyatsi byakuze kandi bidaconze neza, ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse indi na yo ikaba yambaye ubururu n'icyatsi, hakurya gato inyuma y'ikibuga haribafana barimo kureba uko bari kwitwara mu kibuga bakina umupira.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari ahantu mu kibuga nta abandi bantu bari kumwe bakinana, yambaye impuzankano y'ikabutura y'ubururu, umupira w'ubururu uvanzemo n'amabara y'icyatsi, hepfo ya gato hari abandi bantu bahagaze barimo kwitegereza nk'abari kureba umupira uko uri kugenda, bari ahantu mubyatsi ariko umukinnyi w'umupira w'amaguru we ari mu kibuga kitarimo ibyatsi.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru ni igitsina gore kirimo gukina, bari mu kibuga kiza aho ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu bwijimye indi ikaba yambaye imyenda ijya gusa umutuku.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru, bari mukibuga cyiza cy'ibyatsi byiza, kandi ni abakobwa. Ikipe imwe yambaye umutuku n'umukara ndetse burimo amabara y'umuhondo. Indi kipe imwe yambaye umukara n'umweru, barimo gukina umupira w'amaguru.

Ikipe y'umupira w'amaguru kandi y'abakobwa. Mu ikipe y'abakobwa bambaye imyenda y'imihondo n'amakabutura y'umukara. Ni ikipe yatwaye igikombe yegukanye igikombe, abana bambaye imidari ndetse n'icyapa kiriho amafaranga bahembwe, bari kumwe n'abayobozi babo ndetse n'abatoza.

abantu bari gukina umupira w'amaguru bari mu kibuga cyiza kandi cyubatswe neza, bambaye impuzankano, hari abambaye umukara werurutse urimo n'ubururu bwerurutse, indi kipe imwe yambaye umuhondo n'umukara, aho abafana baba bari hari umufana umwe wicayemo kandi imyanya y'abafana iri mu marangi y'ubururu n'umuhondo.

Abantu bicaye ahantu mu gasozi ni abantu benshi batandukanye, aho hari nk'ikirori cyabereye ahantu mu kibuga, aho bari kwitegereza ahantu hamwe bameze nk'ikintu barimo kureba, akenshi bikunze nk'ahantu baba barimo kureba abantu bakina umupira w'amaguru, kandi muri aba bantu harimo n'abashinzwe umutekano harimo polisi.

Abamotari baparitse ku muhanda w'amabuye, bategereje abagenzi, hari n'abagenzi kandi bari kuva ahantu bafite ibikapu ndetse inyuma yaho gato habakaba hari n'akazu gacuruza amayinite yo guhamagara, kubitsa cyangwa kubikura ndetse n'ibindi bicuruzwa ikigo cya MTN kigira.

Inzira y'abanyamaguru, ni inzira ntoya idashobora kuba yacamo ikinyabiziga ariko akaba ari inzira yegereye ibyatsi aho abantu bashobora kunyura bajya aho batuye cyangwa ahantu mu byaro. Izi nzira zikunze kuboneka ahantu mu cyaro.

Umuhanda wa kaburimbo. Ku impande zawo hari inzira z'abanyamaguru, ndetse hakurya hari inzira z'abanyamaguru hakaba harimo n'indabo. Nta kinyabiziga kirimo, ibinyabiziga biparitse ku ruhande ndetse n'abantu bahagaze ku ruhande hakurya gato nyine hari ahantu hari ikibuga giparitsemo imodoka nyinshi kandi ntoya harimo izisa na zimwe bigishirizaho gutwara.

Umuhanda w'amabuye uri ahantu hari inzu z'ubucuruzi kandi haparitse abamotari benshi; aho abandi bigiye imbere babiri bahagaze imbere y'ibiti, kandi inyuma yaho hari inzu y'ubucuruzi ndetse n'akazu gato kari mu irangi ry'umuhondo, aho akenshi aba ari ikigo cy'itumanaho cya MTN kiba kirimo umukozi waho kugira ngo atange ibicuruzwa bya MTN.

Umuhanda urambuye urimo umuntu umwe utwaye ikinyabiziga cy'igare kandi hari n'ibyapa bigaragaza ikoni ndetse n'ibindi byapa bigaragaza ko hari iy'indi mihanda ishamikiye kuri uyu nguyu wundi.

Moto ndetse n'igare moto barimo kuyipakiraho amakarito atandukanye, harimo ikarito z'ikigina n'izindi z'umuhondo. Umumotari asa nk'uvuye kurangura, inyuma ye gato hari undi waparitse igare hepfo yaho hari igitoki, ruguru yaho hari ikaziye ijyamo inzoga, kandi baparitse muri kaburimbo.

Umugabo afite igare, apakiyeho amajerekani arimo kuyisunika, apakiye nk'amazi cyangwa ibindi bintu bisukika, ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru ntabwo ari muri kaburimbo hagati aho ibindi binyabiziga binyura.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse n'inzira y'abanyamakuru byegeranye, mu nzira y'abanyamaguru harimo umudamu urimo kugenda uhetse igikapu cy'umukara, muri kaburimbo nta kinyabiziga kirimo kandi ni kaburimbo idaterera. Ni ahantu haringaniye.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite igice kimwe kigenderamo imodoka zizamuka n'izimanuka, ikindi kikaba kigenderamo abanyamaguru. Hagati harimo umurongo w'umuhonddo ugabanyamo imodoka zimanuka n'izizamuka. Hakurya y'umuhanda hari undi muhanda ushamikiyeho, uriho umuntu uri kuri moto ahetse undi muntu.

Umuhanda wa kaburimbo harimo igicucucu cy'umuntu ndetse n'igicucucu cy'igiti, imbere yaho gato hari umumotari urimo kugenda muri kaburimbo wenyine, nta kindi kinyabiziga kirimo kandi ni ahantu hameze nko mu mahuriro y'imihanda.

Umuhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kirimo kandi ni umuhanda uri ahantu harambuye hadaterera cyangwa ngo hamanuke, ubwo bivuze ko hatambika, impande z'aho hari inzira y'abagenzi kandi n'ibyatsi byegereye kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo. Ni umuhanda uri imbere y'amazu y'ubucuruzi, aho harimo inzira z'abanyamaguru, inzira y'amagare ndetse n'inzira y'ibinyabiziga bikoresha moteri nka moto cyangwa imodoka.

Umuntu w'umudamu uhetse umwana, arimo kugenda muri kaburimbo, nta kinyabiziga kirimo arimo kugenda wenyine, afite n'agakoresho abadamu batwaramo ibikoresho by'abana cyangwa bahahiramo kari mu kaboko k'ibumoso.

Umuhanda w'igitaka, ni umumuhanda uringaniye kandi imashini izatsindagiye, ni ahantu hameze nk'ahagiye gukorwa umuhanda wa kaburimbo, imbere yaho hari imodoka zihaparitse. Kuruhande rw'ibumoso hari imodoka imwe, n'iruhande rwo hepfo hari indi modoka imwe. Hepfo gato yaho hari ibiti birebire.